Umurima munini cyane uhinzemo amoko menshi agiye atandukanye y'imbuto ndetse hakaba harimo abantu batatu, bafite imipira barimo baruhira izo mbuto.